Ifumbire irunze hagati y'ibiti bibiri, ikidendezi cy'amazi, imirima iri mu kibaya ihinzwemo imyaka, amazu menshi ari ku gasozi yitaruye…

Umubyeyi uhetse icyuma gisa umuhondo ndetse n'umukara, wambaye ingofero, ikoti ry'ubururu, igitenge gitukura, uri gutera umuti ibihingwa byiganjemo iby'icyatsi kibisi.

Inzu irimo imiti y'ibihingwa imwe iri mu ducupa indi iri mu masashe, indi iri mu dukarito, ikibambasi gisizwe irangi icyumweru ndetse n'inzugi, utu etajeri twubakishijwe imiti, garafezi.

Abantu batatu, umwe wambaye umupira w'umutuku, ipantaro y'umukara, ndetse na bote, undi ingofero y'ubururu, ndetse n'ibirenge, bari gutwara ifumbire mu mufuka, inzira nyabagendwa.

Abantu benshi biganjemo abagore n'abagabo bari kurima ifumbire bakoresheje amasuka, igikapu cy'umukara giteretse ku ruhande, ibiti birebire, imisozi iteweho ubwatsi.

Utubati dusize amarangi y’umweru, dufite ibirahuri, turimo imiti, imwe irimo mu tudobo, indi mu macupa, indi mu dusashe, indi mu makarito. Umubyeyi wambaye itaburiya, ndetse n’inkweto zifunguye, n’ipantaro, imeza ikozwe mu biti, grafeza, icyuma cyo guteresha umuti.

Amvelope irimo ifumbire bafumbiza ibihingwa ifashwe n'intoki zambaye ga y'ubururu, hakikijwe ibimera bisa icyatsi ndetse n'ubutaka busanzwe.

Utubati twubakishijwe ibiti, turimo imiti, imwe iri mu ducupa, indi mu bikombe, umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ikayi ndetse n'ikaramu.

Abantu bari gukora mu ifumbire ndetse n'ubundi bwatsi bw'amatungo, umugore uteze igitambara gitukura ishati y'ubururu, igikoresho gisa ubururu ibindi bihingwa ku ruhande ibiti birebire.

Akarima k'igikoni karimo imboga nyinshi zitandukanye, z'icyatsi kibisi, izindi amashu ndetse n'ibitunguru, kubakishijwe imifuka n'ibiti n'ubutaka. Inzu yubatswe ku ruhande.

Inzu ifite utubati dukozwe mu biti dusa shokora, harimo ibikoresho bakoresha mu buhinzi bimwe birimo mu ducupa, irindi mu makariso, ibindi mu masashe, parafo isa umweruru.

Akabati kubakishijwe ibitsi ndetse gafite n'ibirahuri harimo ibikoresho bimwe biri mu dukarito, ibindi mu ducupa, ibindi mu masashe, ikayi bandikamo.

Abantu benshi bari kurima ifumbire isa umukara bakoresheje ibikoresho nk'amasuka, amapiki, higanjemo abagabo ndetse n'umugore; ibiti birebire, umucaca wumye...

Inzu yubakishijwe sima, amakaro hasi, inzugi z'ibyuma ndetse zifite n'ibirahuri, utubati turimo imiti, imwe iri mu ducupa indi mu masashe imifuka hanze.

Inzu isizwe irangi ry'umweru ndetse ifite n'amakaro, utubati twubakishijwe ibyuma harimo amakarito, utujerekani, utudobo turimo imiti igiye itandukanye.

Akayira nyabagendwa gateyemo ibyatsi, icyayi ku ruhande ibiti harimo icyumye ndetse n'ibindi bibisi, amazu yubakishijwe amatafari adahiye asakajwe amabati asa umweru.

Abagabo babiri bari mu murima w'amatunda ndetse n'ibishyimbo, umwe yambaye umupira w'umweru ufite agahondo ku maboko n'ipantaro y'ikoboyi, undi wambaye ishati bari gusoroma...

Umurima uri mu kibaya, hamwe hateye amashu ahandi ibihingwa birebire, umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, ipantaro y'umukara uhagazemo, amazu ku ruhande.

Umuti uteretse ahantu ku gapapuro kari kuri sima, utagira ibara wandikishijwe umukara ku gapapuro k'umweru, brand iri mu mutuku, amabati, urumuri.

Inka y'imbyeyi ifite amabara y'umukara, amatwi ya shokora, mu gahanga harimo umweru, ndetse no ku maguru iri gushoka amazi mu kintu gisa umweru, hari uruzitiro rwa senyenge.

Agacupa gakozwe mu birarahuri gafite umufuniko w'ubururu, kandikishijweho umukara mu mabara y'umweru ndetse n'icyatsi. Handitseho tirivalenti efu emudi vakisini kompozishoni.

Icupa risa umweru rifitemo umutuku ndetse n'umufuniko w'icyatsi, ryandikishijweho amabara y'umukara harimo amagambo direction at forty gram powder to distilled.

Umuntu ufashe mu kiganza agacupa gafite umufuniko w'icyuma, kandiditseho ''rcdvc solvat stele diletic sal solution lot makumyabiri n'agatatu c makumyabiri rimwe kabiri exp icumi akarongo bibiri na makumyabiri nagatandatu."

Ingano zanitswe hasi ku mahema, izindi ziri mu mifuka y'imyeru n'amahema, abantu benshi higanjemo abagore, umugabo ndetse n'abana, inzu yubakishijwe sima, amabati y'umweru inzugi z'umutuku, intoki ziteye ku ruhande.

Abantu bari gukora umuganda bakoresheje amasuka. Harimo abambaye amapantaro, imyenda ya gisirikari, ibyatsi, ibiti birebire, ikibaya ku ruhande.

Ababyeyi bari gukubura bafite umukubuzo n'ibase, umugabo uri kurunda umucanga, inzu nini yubakishijwe amatafari ya rukarakara n'urugi rwa metalike, igare, umugabo uhagaze ku ruhande, hari umurima munini urimo ibihingwa by'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bari mu muganda bari guhinga bakoresheje amasuka, harimo abambaye bote n'ingofero abandi bambaye ibisanzwe nk'ibitenge. Icyapa cyanditseho p, ibiti birebire.

Ikibaya kinini kirimo amazu, imirima ihinzemo ubwatsi bw'amatungo, icyapa, moto, abantu benshi basaruye imboga ziganjemo karoti ndetse n'amashu.

Abaturage biganjemo abasore, ndetse n'ababyeyi, bari gukora mu murima, inzira nyabagendwa irimo igare, umuntu arifashe, igiti kirekire, imisozi, amazu atuwemo.

Abantu benshi batandukanye higanjemo abagore ndetse n'abagabo, bambaye udupira tw'umweru undi umutuku abandi ibindi bisanzwe, bari mu kibaya giteyemo ibyatsi by'icyatsi kibisi, imisozi itari miremire.

Abantu benshi higanjemo igitsina gabo, bari guhinga mu murima umwe wambaye isengeri y'umuhondo n'ipantaro, bafite amasuka, intoki ndende, inzu isakaje amabati.

Umurima wasaruwemo ibirayi bisa umutuku n'umweru, ibyatsi ndetse n'ibigori ku ruhande, ibiti birebire, inzu hubakishijwe amatafari ahiye.

Abantu benshi biganjemo abagabo ndetse n'abagore, bambaye amakositimu abandi ibisanzwe bafite amakayi ndetse n'amakaramu bari kwandika, ibitoki byinshi.

Umugabo wambaye ingofero, irimo ubururu n'umweru, umupira umuhondo, umukara bote ndetse ni'pantaro, uri ahantu bahunika ibigori bakoresheje ibiti, intebe.

Umugabo uri mu murima w'intoki ndetse n'ibindi bihingwa, wambaye umupira n'ikabutura y'ikoboyi imisozi miremire, ibiti hirya no hino.

Umuntu uhagaze mu murima w'imbuto zitewe mu isashe irimo ubutaka ndetse n'ifumbire ufashe ikayi ndetse n'ikaramu na terefone wambaye ingofero n'ipantaro.

Ababyeyi babiri bari gukora mu karima k'igikoni kari mugo, karimo imboga ziganjemo z'icyatsi kibisi ku ruhande hari imifuka irimo ibitaka n'ifumbire bitewemo imboga, ku ruhande andi mazu yubakishije imwe amatafari ya rukarakara indi isakaje amabati y'umutuku.

Jardin irimo umucaca ku ruhande hari indabo ziganjemo iz'umuhondo ndetse n'iz'icyatsi ku ruhande hari ibiti birebire bisumba indabo.

Imbuto ziri mu tubati twubakishijwe ibiti zikikijwe n'ibikarito, harimo watermelon, indimu, amaronji, amatunda, pome.

Ururabo rusa icyatsi, hejuru ubururu, pasiparumu itewe ku ruhande hakorotiye na sima ndetse n'amabuye...

Imbuto ziganjemo pavuro z'icyatsi kibisi, inyanya zitukura, indobo isa ubururu, dodo ziri mu kabati gakozwe mu biti, imifuka ishashe hasi.

Ubusitani burimo indabyo nyinshi zitandukanye, izicyatsi kibisi n'umutuku, ibiti birebire. Ku ruhande hapavumwemo sima ndetse n'amabuye agahanda.

Ibitunguru bitanu byeze bifashwe n'intoki z'umuntu wisize amabara ku nzara, ibiti bisa icyatsi kibisi ku ruhande birebire...

Jaride itewemo umucaca, ikikijwe n'indabyo ndende ziganjemo iz'icyatsi kibisi, umuhondo, umweru, ibyatsi, indabo z'umutuku ngufiya..

Indabo zitewe ziganjemo iz'icyatsi, umuhondo, ibiti birebire, inzu zubakishijwe amatafari ahiye, amabuye ndetse na sima, inzugi zisa shokora, inkingi isa icyatsi kibisi igitambara cy'umweru.

Umukozi wambaye ingofero, ususwe isuku, agapira k'ubururu, ipantaro y'ikoboyi ndetse na bote, ufashe igiti cy'urubuto mu kiganza gitewe mu isashe irimo ubutaka ndetse n'ifumbire, injerekani ku ruhande...

Abantu benshi bari mu nzira nyabagendwa higanjemo abagore, umugabo ndetse n'abana, bamwe bikoreye amajerekani abandi bikoreye ingemwe zo gutera mu mabase, mu mifuka, imirima itewemo ibihingwa bitandukanye.

abantu babiri bari mu murima bafashe intoryi zisa umweru, umwe yambaye ingofero ndetse akenyeye n'igitenge, undi ijiri riciye amaboko, bakikijwe n'ibihingwa byiganjemo iby'icyatsi kibisi ndetse n'ibiti ku ruhande birebire.

Umurima utewemo ibihingwa byiganjemo ibigori, amateke, ibirayi, umugabo wambaye ipantaro y'umukara, ingofero, ikoti, uri kureba muri terefone, ibiti bikikije ku ruhande.

Imbuto zibitswe ahantu bacururiza ziganjemo amatunda, imyembe, indimu, beterave mu kintu cyubakishijwe ibiti, hari umuryango uzanamo urumuri.

Umupira usutswe direde, wambaye agapira ndetse n'ipantaro, uri mu murima w'amatunda yeze andi ateze, ku ruhande hari ibyatsi birebire.

Imboga ziri ahantu bacururiza higanjemo ibitunguru bitukura ndetse n'iby'umweru, puwavuro, kokombure, karoti, ibihaza, isashe, akabati gakozwe mu biti...

Umubyeyi uri gukora mu isoko ry'imbuto, ziganjemo amaronji, amatunda, imyembe, watermelon, inanasi, pome, umunzani bapimiraho, utubati twubakishijwe ibiti, dukikijwe n'amakarito.

Ababyeyi bari kuhira umurima uteyemo amashu, harimo umugabo n'umugore, ku ruhande hateye ibindi bihingwa birimo ibigori ndetse n'ibyatsi, n'ibindi biti bitandukanye.

Umubyeyi uteze agatambara k'umukara, agapira k'icyatsi wambaye n'igitenge, ufashe indobo mu ntoki uri gucushira imbuto ndetse n'imboga harimo pavuro, inyanya...

Abantu bari mu murima uciyemo imyobo bari guteramo ibihingwa biganjemo abagabo, DASSO wambaye iniforume z'icyatsi kibisi, ibiti birebire, inzu.

Umurima munini uteyemo icyayi wifitemo inzira nyabagendwa hagati, ku ruhande hari amazu atuwemo ndetse n'ibiti byinshi, ukikijwe n'imisozi myinshi...

Igishanga kirimo ibyatsi bigufi, ndetse n'umwana w'umusore, wambaye agapira k'umutuku n'ikabutura.

Igishanga gitewemo umuceri muma pariseri, amazu kuruhande yubakishijwe amatafari ndetse asakajwe umutuku, ibiti birebire ku musozi mugufi.

Inka ziri mu kiraro zisa umweru n'umukara, ziri mu kiraro cyubakishijwe ibiti, gisakajwe amabati. Abagabo batatu bahagaze ku ruhande, ibyatsi bitewe ku ruhande bisa icyatsi kibisi.

Umugabo n'umugore bafashe ihene, imwe isa shokora, indi yifitemo umweru, ikiraro cyubakishijwe ibiti, inzu y'amatafari adahiye, urugi rusa icyatsi, intoki ku ruhande.

Inkoko nyinshi ziri ahantu, umugabo uri kuzihereza ibyo kurya, wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'amabara. Inzu yubakishijwe amatafari ndetse n'ibiti, isakajwe ibiti..

Umubyeyi ufashe ihene ebyiri wambaye agashati gaciye amaboko ,ndetse n'igitenge uri mu nzira ibiti ku ruhande birebire ibishyimbo byanitswe hasi.

Umubyeyi uri guha ihene ubwatsi, imwe isa umukara, indi isa shokora, uhagaze ku ruhande, inzu yubakishijwe amatafari adahiye, urugi rusa ubururu, urundi rusa kaki, ikijerekani ku ruhande.

Abantu benshi bakikije ndetse banafashe ingurube, biganjemo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda irimo umutuku, umweru. Imodoka isa umukara n'amapine yayo.

Inka ifite amabara y'umukara, umweru, yambaye n'amaherena, iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti ndetse n'amatafari adahiye, hejuru amatebura ndetse n'amabati, umugabo uhagaze ku ruhande.

Ikiraro gikozwe mu biti mu bwoko bw'imbaho, izindi atari imbaho, zifite imyenge, harimo amatungo, inka ziri kurisha ndetse n'ihene ziziritsweho, intoki zikikije ku ruhande.

Inka ifite amabara umukara ndetse n'umweru iri mu kiraro cyubakishijwe ibiti ndetse n'amatafari n'amategura n'amabati umugabo uhagaze ku ruhande wambaye agapira k'ubururu ndetse na bodaboda.

Ihene ebyiri zicaye, imwe isa umukara indi idasa umukara, iziritswe hakoreshejwe umugozi, inzu y'amatafari adahiye, ikiraro cyubakishijwe ibiti.

Umugabo wambaye ingofero, umupira, ipantaro, uhagaze. Ihene ziri kurisha ubwatsi, zifite amabara ya kaki. Intoki ndende, ndetse n'ubundi bwatsi busanzwe.

Ingurube iri mu kiraro gikozwe mu biti, iri kurisha ubwatsi. Ikijerekani baciye bazihereshamo amazi, ibiti birebire biri ku ruhande...

Umubyeyi ufashe uduhene tubiri witeze igitambaro gitukura, umupira w'umweru, inkweto z'ubururu, inzu yubakishijwe sima, ifite amatebura, ifite n'imireko, akadirishya gatoya.

Itungo riri mu bwoko bwa dendo rifite amabara, umutuku, umukara, itafari, supanete yaciwe, ibyatsi bisa icyatsi kibisi by'intusi.

Abantu batatu bafashe inkwavu. Harimo umugore umwe wambaye imyenda itukura n'inkweto z'umweru, n'abagabo babiri bari ku kiraro cyubakishijwe ibiti mu bwoko bw'imbaho gisakajwe amabati.

Ababyeyi biganjemo umumama n'umugabo ndetse n'umwana wambaye iniforume ya kontoni, bafite: ubwatsi, umufuka, akadobo; ikiraro cyubakishijwe ibiti kirimo inka, inkoko, inzu...

Abantu babiri bari mu bihingwa umwe yambaye agapira k'icyatsi, ipantaro y'umukara, undi imyenda itukura, uri gucucira amazi ibiti ku ruhande birebire.

Ibigori byanitswe ku ihema risa umweru, hasi ku butaka, ibiti bitewe ku mpande, inzu yubakishijwe amatafari ahiye ndetse na sima...

Umugabo wambaye bote z'umweru, imyenda y'umukara ushoreye inka, uri mu nzira nyabagendwa irimo moto, ikikijwe n'ibyatsi ndetse n'intoki, umunara muremure uriho imigozi itwaye amashanyarazi.

Umugabo ufite ingofero agapira, ipantaro ndetse na bote ufite na ga mu ntoki ukoze ku nka ifite amabara y'umweru n'udutashi, umubyeyi wunamye witeze igitambara wifubitse n'igitenge, inzu isakajwe amatebura yubakishi amatafari adahiye, ibiti, umucaca...

Umugabo wambaye ishati ya orange n'itaburiya y'umweru isa black biri mu byuma bisa icyatsi, umutuku, umuhondo, ubururu, imfunguzo zifungura kuri serire, itara riri kwaka.

Inka ziri mu kibuga zifite amabara umukara ndetse n'umweru, umugabo wambaye isurubeti na bote, inzu itewe irangi ry'umweru, idarapo, umwana wifashe mu mugongo wambaye itukura n'umupira.

Abantu harimo abagabo ndetse n'umugore bafashe ihene zisa shokora, umukara, ndetse na kaki, imisozi miremire iteyemo ibihingwa ikibaya, intoki ziteye mu murima.

Imbwa isa shokora, ifite amaguru y'inzobe, itereye umurizo hejuru, ifite ikindi kiremwa mu kanwa, iri kugenda mu nzira nyabagendwa, hakikijwe n'umucaca ku ruhande.

Ikiraro gikozwe mu buryo bugezweho, hariho aho bakandagira ndetse n'ahandi bagenda bafatiriza umuntu uri kukigendaho, ibiti ndetse n'ibindi byatsi birebire, ishyamba ku ruhande...

Inyamaswa yicaye iri kureba, ifite amabara atandukanye harimo umukara, umweru, shokora, kaki, ikanagira amatwi, amazuru ndetse n'umunwa.

Akanyoni kari mu biti gafite amabara menshi higanjemo umukara, umutuku, umuhondo, hakikijwe n'ibyatsi by'icyatsi kibisi.

Inyamaswa yicaye ku giti, ifite umurizo w'umukara, amatwi, amaso, umunwa, amazuru. Ikikijwe n'ibiti birebire by'icyatsi kibisi….